Ni umukobwa uri kugendera mu muhanda wa kaburimbo uhetse agasakoshi uri gukurara ivarisi y'ubururu, ubona ko yishimye rwose uri kuri telefone yishimiye impano y'amayinite bamuhaye yo kuganiriza inshuti n'abavandimwe.

Ni inzu zigeretse ziri ku murongo ahagana ku muhanda zikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye. zigiye zifite n'ibyapa mu rwego rwo kuyobora abantu no kubamenyesha ibyo bakora.

Ni uburyo bugezweho bw'ukuntu ushobora kwishyura, kugura, kubikuza kuri banki ukoresheje telefone yawe, bidasabye ko ujya kwaka serivisi kuri banki.

Ubu ni uburyo ushobora kwizigama, bitabaye ngombwa ko kujya kuri banki, akaba ari uburyo bushya bwaje ngo bufasha abaturage kuzajya bizigamira bakoresheje telefone, bidasabye ko bajya kuri banki.

Ni mu nzu yubakishije amakaro hasi ifite parafo iteye irangi ry'umweru, icuruza amakoti menshi kandi meza atandukanye, akaba agiye anamanitse ahantu henshi hatandukanye.

Ni mu isoko mo imbere hasi hashashemo amakaro hejuru ni parafo, mu rwego rwo kwirinda inyanyagira ry'imyenda amashati abamanitse ukwayo, amakanzu ukwayo, ingofero ukwazo, imipira ukwayo ndetse n'ibindi biri ahagana hasi.

Ni iduka ricuruza ibitenge byamabara yose kandi byiza bimwe muri byo birazinze ibindi bigiye bimanitse mu buryo butandukanye, hejuru ni parafo kandi n'amatara ari kwaka.

Ni abagabo babiri, uwirabura n'umuzungu, bahagaze ari kumusobanurira uburyo ushobora guhahira muri iyo botike icuruza ibintu byinshi bitandukanye.

Ni botike ifite akabati karimo inkweto zigurishwa n'imyenda hakaba hari n'ikibumbano cyambaye ikanzu ubona kiri ku isoko, hasi hashashe amakaro, hejuru ni parafo, itara riri, kwaka hateye n'irange ry'umweru.

Ni botiki icuruza imipira y'amaboko magufi myiza kandi itandukanye, ikaba imanitse ku kabati kabugenewe, indi ikaba izinze, yubakishije amakaro hasi ikaba itera irange ry'umweru ku bikuta.

Ni akantu kari mu ishusho ya mpande enye kaba kaboshywe n'imigozi ituruka ku nsina, mu imbere harimo amasaro y'amabara atandukanye kandi y'ubwoko bwose.

Ni isoko riba ricururiza mo imbere ariko kandi rikagira n'indi myenda rishyira hanze, ryayambitse ibibumbano kugira ngo uhaciye wese ayibone kandi amenye ko hacururizwa imyenda.

Ugurisha ari kuganira n'ugura, ari kwandika mu ikayi, ni iduka ririmo ibintu byinshi bitandukanye, hagati hateretsemo etajeri iriho umunzani w'amabuye n'ikesi, usa nk'usohoka hakaba hari udufuka twinshi dutandukanye.

Mu isoko rya Kigali karizi maketi, rigurisha imodoka rikaba riri kwerekana imodoka y'ivatiri, iri mu ibara ry'umukara, ko iri kugurishwa, igiciro ni miliyoni cumi na zirindwi.

Mu rwego rwo kwirinda akajagari k'ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye mu Rwanda, hari ahantu habugenewe, hacururizwa imodoka zonyine hatagize ikindi kintu gihari.

Imodoka ya Toyota nshyashya y'umukara, igurishwa miliyoni makumyabiri n'eshanu, iparitse mu gipangu, hasi ari amabuye, no ku rukuta rw'igipangu ari amabuye, ku musozi w'icyo gipangu hakaba hari utwuma t'ubururu.

Ni imbere mu gipangu cy'ubururu n'umweru, haparitse igikamyo kinini cy'ubururu n'umukara, imbere yacyo hari abagabo babiri bahagaze bafite icyapa cy'umweru mu ntoki.

Imodoka y'umweru itwarwa n'umukozi ushinzwe iby'isoko iparitse mu muhanda hafi y'icyapa, wambutse umuhanda hari inzu nziza yubakishije amatafari ahiye.

Inzu y'amakaro, ifite na parafo, iteye irangi ry'umweru, ku gikuta hamanitse icyapa cy'ubururu, igurishirizwamo imodoka nyinshi zitandukanye, iyo nzu kandi iteretsemo ameza ariho mudasobwa n'urupapuro.

Umuhanda urimo imodoka zitari nyinshi iy'umutuku inyuma, imbere hari izindi n'amamoto hepfo tukabona urukamyo runini cyane bisa nk'aho ari rwarundi ruterura izindi, mu muhanda tukabonamo icyapa kiriho umweru tukabonamo amapoto rwose y'amatara amurikira umuhanda.

Ni inoti yakiye magana atanu yabaga ishushanyijeho abana batatu bari kureba mu ikayi, hasi handitse amafaranga magana atanu hejuru hanitse banki nasiyonari y'u Rwanda inyuma hashushanyijeho ingagi ziri mu byatsi nigiceri ndetse n'umukono.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amadarubindi, uri guseka wambaye umupira wumweru ndetse ufite mudasobwa mu ntoki ze. Ari ku gapapuro k'ubururu kandidikishijweho amagambo yumweru ndetse n'ayumuhondo yanditswe mu kirimi cyamahanga cyicyongereza.

igiceri kinini cya mirongo iitanu kiri mu ibara rya kaki gishushanyijeho inuma ishami icyo giceri kandi akaba atari icyo mu rwanda ahubwo gikoreshwa mu bufaransa.

Ni ibiceri bibiri biteganye birambitse hasi ku ikaro, kimwe n'icya veni kirerekana ishaka kiri mu ibara ry'umweru ikindi kikaba kiri mu ibara rya kaki.

Umukobwa ugaragara igice gitoya hatarimo mu maso, afite amafaranga menshi mu ntoki zombi ndetse n'ari ku meza, yambaye na fimbo yaje iyaziritse; yicaye arebana n'umuvunjayi hagati yabo harimo ameza, kuri ayo meza kandi hateretseho akamashini kifashishwa mu gusohora inyemezabwishyu.

Ni inote nkuru y'u Rwanda ibihumbi bitanu, ishushanyijeho uduseke tubiri, akanini na gato byegeranye, akaba arambitse ku meza maremare, abajwe mu giti.

Ni mu nzu mw'imbere, baravunja, hatetse ameza ariho amafaranga menshi atandukanye n'imashini iyabara, imbere y'iyo mashini hari umugabo n'ubundi uri kuyabara.

Ni itasi ndende iteretse ku kantu ka pulasitiki gafumye nk'amakaro, k'umweru, irimo amata, ikaba yegeranye n'ipulato ifite ibara ry'umweru.

Mu rwego rwo gutanga amata meza kandi yizewe, hari imashini ibanza kuyatunganya akabona gucuruzwa nyuma, hirya y'iyo mashini kandi hari aka etajeri karimo amaji n'ububido bw'amata.

Ni mu iduka ku bikuta hubakishije amakaro, hejuru harimo purafo, hakaba harimo ububati bwubatswe mu cyuma bugiye butetsemo ububido bwinshi bw'umweru, buba burimo amata.

Ni imigati myinshi batandukanyije n'agashishi kayibikwamo kakaba kari ukwako nayo isutse ukwayo ku kabaho kabajwe mu giti, hakaba hari imanyuye n'itamanyuye.

Ni mu nzu hashashe amakaro harimo intebe z'ubururu n'umweru, ku bikuta naho hakaba hateye irange ry'ubururu n'umweru, ifite amadirishya y'utwuma, hakaba hacururizwamo icyayi, amata ndetse n'igikoma n'imigati.

Ni mu nzu mu imbere harimo imashini itunganya amata ngo iyagiriye neza, hagati hateretsemo ameza abaje mu biti, iruhande rw'ayo meza hari indobo nini y'icyatsi kibisi, hakaba harimo n'umubyeyi wishimye uri gucuruza ayo mata.

Ni amacupa maremare ari mu ibara ry'ubururu, afite agapapuro inyuma k'ikirango cya nili, akaba yuzuyemo amazi, ikindi kandi ateretse hasi, hagati y'ibikuta bibiri.

Ni ahantu hacururizwa, amata, igikoma, icyayi, n'ibindi bintu byo kwifashisha nka mu gitondo, cyangwa mu masaha ya saa sita, uri ku nzira, hakaba harimo umugore ufashe ku kabuni k'umuhondo.

Igipapuro cy'umweru giciyemo uturongo tw'umukara cyanditseho amagambo y'umukara by'ibijyanye n'ubukungu, ahagana hasi hari uwagiteguye, ibumoso bwaho hakaba uwagitanze.

Ni umugabo wambaye ishati y'umweru iciyemo uturongo twinshi, irimo n'ibara ry'ubururu, akaba ari kubara inote z'ijana ndetse aho yicaye hakaba hari n'izindi nyinshi zizirikishije fimbo.

Ni inoti nyinshi za mirongo itanu zitari izo mu Rwanda, ubona ko hari ikiganza kizifashe, zikaba zishushanyijeho inzu nziza, hakaba hari n'izindi noti nyinshi kandi zirambitse hafi aho.

Ni inoti y'ibihumbi bitanu yo mu gihugu cya Kongo, iba ishushanyijeho ikarita, imparage nyinshi ndetse n'umugore ukenye ibitenge kandi wambaye amasaro menshi mu gatuza.

Ni inoti y'ishiringi y'amafaranga makumyabiri ishushanyijeho uturabyo, yanditsweho n'andi magambo, iriho n'indi mibare ku mpande zombi, ikinditi kandi ikaba iriho n'umugabo wishimye.

Ni inoti nyinshi z'ijana, zizikishije fimbo, zirambitse ahantu h'umukara, iburyo bwazo hakaba hari ibiganza bibiri by'umuntu, biri kurambura inote z'igihumbi, zishushanyijeho umuntu.

Ni akazu gatoya kubatse ku muhanda, gateye irange ry'umuhondo ariko inyuma hagakikijwe n'ibipapuro byinshi biriho serivisi zose zitangirwamo imbere. Kandi na none imbere hakaba harimo n'ibindi bicuruzwa.

Ni ahantu utanga amafaranga bakakuguranira, hakaba hari umugabo uri kuyatanga n'amaboko ye yombi, ayaha undi muntu abicishije mu karahure kari hagati yabo, kabugenewe.

Ni inzu imiryango irafunze ikaba ifite ibyapa byinshi bigaragaza ko hano bavunja amafaranga ayo ari yo yose bakayaguha uko ubyifuza.

Ni inzu itari yonyine iteye irange ry'umweru, hanze hari intebe ziteye mu mapave, zibaje mu giti, zifite imisego itari minini, hagati y'izo ntebe hateyemo ameza nayo abajwe mu giti.

Ni agatako gakozwe n'imbaho zibajwe mu giti, gafite n'undi mutako w'umukara ndetse kakaba gateretse no ku zindi mbaho zibajwe mu biti.

Ni utubaho twubatse mu gikuta cy'umweru twagenewe gushyirwaho indabyo, hakaba hariho indabyo z'icyatsi ziriri mu tuntu tw'umweru n'umukara, akaba ari uburyo bushya bwaje, bwo gutaka inzu.

Ni muri salo hasi hashashishije amakaro hari intebe zimwe ibara ry'ikigina nini z'imisego hagati harimo ameza abaje mu giti arambuyeho igitabo hirya naone hari izindi ntebe z'imisego z'umukara n'umweru.

Ni inzu nziza ifite salamanje iteguyeho icyo kurya no kunywa, ku meza hakaba hateretse indabyo ngufiya z'icyatsi, hakaba harimo n'akabati kageretse kagenewe kubika ibikoresho neza, hasi ikaba yubakishijwe amakaro.

Ni inzu iteye irangi ry'umuhondo, ifite imiryango ibiri, umuryango umwe muri iyo urakinguye, hari umuntu uhicaye, ahagana hanze ku irembo hateye intebe nini z'imisego nazo z'ubururu zirebana, hagati y'izo ntebe harimo ameza, hakaba n'ari ku ruhande.

Hagenewe gufatirwa ifunguro, hasi hari amakaro hejuru amatara ari kwaka hari intebe nziza n'ameza bibaje mu biti byicarwaho mu gihe abantu bari gufata ifunguro.

Ni inyubako nziza y'ibara ry'umuhondo ikaba itari muri zino nzu zisanzwe cyangwa izigeretse iburyo bw'iyo nyubako hafasheho ahantu hasakaye munsi y'aho harimo udutebe tw'umukara n'umweru twa bugenewe two kwicaramo abantu bikinga izuba iburyo bw'iyo nyubako hakaba handitseho ingombajwi zitandukanye.

Hoteri nziza iteye irange ry'umukara igeretse, ifite ubwogero ku ruhande, hejuru y'ubwo bwogero hateye intebe eshatu, zo kuruhukiramo, igihe uvuye mu mazi cyangwa igihe uri kureba abari koga.

Ni igikoni cyo muri hoteli kirimo udutako hateretsemo ameza ariho ibisorori birimo ibiryo bitandukanye n'amasahani, hakabaho n'andi meza ateretseho imbuto zarangije gutunganywa.

Ni hoteri nziza igeretse gatatu ifite utwuma turinda abantu kugwa, haba hejuru no hasi, amatara ari kwaka mo imbere ahagana hasi kandi ifite ubwogero nabwo buri kwakamo itara ry'ubururu.

Inzu nziza isashe amakaro hasi hejuru harimo purafo, harimo akabati kabaje mu giti gateretseho indabo nziza, hakaba n'iziteretse munsi yako ndetse n'indabyo ziteretse ahagana hasi.

Ni icyapa gishushanyijeho inzu nziza, cyanditseho ijambo banki, kiriho urugi ruri gufunguka, imbere hari umugore munini wambaye akajire k'icyatsi, akaba anambaye ingofero y'ubwirinzi iri mu ibara ry'umuhondo.

Ni icyapa kiririmo mabara menshi umutuku ubururu icyatsi ndetse n'umweru, hakaba hari jaride ishushanyijemo inzu y'umweru bari gusaba ngo iyigure cyangwa uyubake, akaba ari inzu yubatswe mu buryo bugezweho.

Ndahabona umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara akaba ari kwamamaza yerekana n'ibihembo byinshi bitandukanye harimo nka terefone, hejuru gato y'ibyo bihembo hakaba hari umuntu uri gusimbuka ijambo ryanditse.

Ni ku muhanda wa kaburimbo, hari urujya n'uruza rw'abantu, hari n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye. Wambutse uwo umuhanda, hari inzu nziza, ya etage, igeretse kabiri, iberamo ibikorwa byinshi bitandukanye.

Mu rwego rwo guteza imbere ubucuruzi bufite ireme, leta yubakiye isoko ryiza abaturage rishakaje amabati, rifite kandi ububati buri mucuruzi agomba kugira aho abika ibicuruzwa bye.

Ni mu isoko ricururizwamo ibiribwa cyane cyane ibyiganjemo imboga, buri mucuruzi kandi akaba afite ahantu he ho gucururiza ibintu bye, rikaba ryubakishije ibiti, rikaba rinasakaje amabati.

Ni inzu igeretse gatatu ikorerwamo ubucuruzi kuva hasi kugera hejuru, ikaba iriho utuntu kandi abantu bahagararaho, tukaba tunabarinda kuba bagwa, ahagana hasi hakaba hahagaze abantu benshi ubona ko baje guhaha.

Ni mu isoko ryubakiye, umugabo ubona ko ari gucuruza inyanya n'insenda ari gupfunyikira umugore waje guhaha mu gashashi, bari kuganira ndetse kandi bishimye.

Mu muhanda wa kaburimbo hashushanyijemo umurongo w'umweru hari kugendamo ibinyabiziga byinshi bitandukanye ahagana ku nkengero z'umuhanda hari inyuba igeretse kabiri ifite na parikingi ahagana hasi.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ebyiri imwe y'umukara n'indi yenda gusa umweru, tukabonamo inzu ku ruhande yarwo yubakishije amabuye kandi ifite amababi y'umutuku ni'gipangu cy'umukara.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, hari kugendamo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, ahagana hirya hari parikingi, hakaba n'andi mazu menshi akorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye.

Uku ni uko bishyura amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga bisa nk'aho ari mu gihugu cy'Ubwongereza, umuntu yari yohereje amafaranga igihumbi berekana n'undi ayo aribuze kwakira, kandi biba byerekana nimba ukoresheje ikarita za banki cyangwa izindi zose waba ukoresheje birabyerekana.

Ni akazu ka Eyateri, gateye irangi ry'umutuku, gashushanyijeho serivisi zose zitangwa na Eyateri, ubona ko kari imbere y'inzu, imbere yako hari abantu batatu, bari gusuhuzanya.

Ni mu iduka ricuruza imyenda myinshi itandukanye, yaba iyo hasi n'iyo hejuru, hakaba hamanitse kandi igipapuro kiri mu ibara ry'umuhondo cya MTN, cyerekana ko ushobora kwishyura ukoresheje telefone yawe.

Ni akazu ka MTN kari ku muhanda gateye irange ry'umuhondo gashushanyijeho ibijyanye n'ibyo MTN byose ikora, kakaba gakinguye mo imbere harimo umukobwa usa nk'aho ari kwakira abantu bari hanze bamugannye.

Ni akazu ka emutiyene kateye irangi ry'umuhondo gafunze imiryango yose gashushanyijeho serivisi zose emutiyene itanga kari hagati y'ibyapa bibiri ndetse nipoto n'ishyamba.

Ni ahantu hari umutaka wo mu ibara ry'umuhondo ushinze ku byuma, hakaba hatangirwa serivisi za MTN, hakaba hicaye umuntu uri gufasha abantu baje bamugana muri serivisi nyinshi bifuza ko abafasha

Umukobwa utirabura ushinguye wambaye umupira w'umuhondo, ahagararanye n'umugabo hanze y'agakiyosike ka MTN, ari kumusobanurira ukuntu wakifashisha terefone yawe waka serivisi kuri MTN.

Ni akazu kariho icyapa cya MTN kiri mu ibara ry'umuhondo, kikaba cyandikishijeho amagambo y'umukara n'umweru, ari kwamamaza serivisi zose zitangwa na MTN.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Ni amapikipiki ari kugendera mu muhanda wa kaburimbo mu ruhande rumwe, atwawe n'abatwazi bose bambaye imipira isa umutuku yanditseho yego moto, bakaba bambaye n'ingofero z'ubwirinzi zisa, imbere yabo hari imodoka ya toyota y'umweru.

Hari umugabo washyize imbuto z'amoko menshi ku meza, akaba ari kwereka umwana ukuntu ushobora kwikorera ji y'umwimerere ukoresheje imbuto wifitiye.

Ni ipikipiki ihagaze y'ibara ry'umutuku, ifite agasanduku k'umutuku kagenewe gushyira abantu ibyo kurya. Iburyo bw'ako gasanduku hari umusore uhahagaze wambaye agapfukamunwa. Afashe agafuka kari hejuru y'ako gasanduka arikwerekana ibyo bashyira abantu. Imbere gato y'iyo pikipiki hari umukingo wubakishije amabuye, heejuru gato y'uwo mukingo aho urangirira hateye indabyo z'icyatsi.

Ni ipikipiki iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ifite agasanduku kagenewe gutwaramo ibintu byo kurya, akaba ari uburyo ushobora guhaha ukoresheje ikoranabuhanga bakabikugezaho iwawe.

Ni inzu iri i Kigali mu Rwanda igeretse rimwe, iteye irange ry'ubururu n'umweru, ikaba ifite utuntu turinda abantu kugwa, ikaba ifite kandi n'igipangu cyiza cy'ubururu n'umweru, ikaba yishyurwa amadolari ijana ku kwezi.

Ni i Kigali mu Rwanda hari inzu wagura miliyoni mirongo icyenda n'eshanu, yubakishije amakaro hasi, iteye irangi ry'umweru ku bikuta, ifite parafo zifite dizayini zitandukanye, ziteye irangi ry'umweru, itara rikaba riri kwaka.

Ni igikoni kiza kigezweho kirimo ibikoresho byose byiza byo mu gikoni, cyubakishije amakaro hasi, gifite parafo nziza y'umweru n'itara riri kwaka, cyishyurwa amadorari ijana na mirongo itanu ku kwezi, kiri i Kigali mu Rwanda mu murenge wa Kacyiru.

Ni inzu ndende iteye irangi ry'umweru igice kimwe, ahandi ni amatafari ahiye , ifite utwuma turinda abantu kugwa, ku mbuga ni amapave iri i Kigali mu Murenge wa Kibagabaga, ifite ibyumba bibiri byo kuraramo, ikagira bibiri byo kubikamo ibikoresho, n'ibindi, hishyurwa magana atandatu ku kwezi.

Ni inzu nziza igereretse rimwe iteye irangi ry'umweru, ikaba ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahure, ikindi iri ku isoko ihagaze amadorari ijana na mirongo ine.

Ni inzu nziza isashe amakaro hasi, ifite inkingi ziteye ibara ry'umuhondo, ikagira ibaraza rifite utwuma turinda abantu kugwa, iri ahagana ku Gisozi, ifite ibyumba bitanu, salo ndetse n’aho gutekera, ikagira n'inzu yo hanze y'umukozi.

Ni inzu nziza iteye irange ry'umuhondo ishashe amakaro hasi iri i Kigali, kimironko, ifite ibyumba bibiri byo kuraramo n'ibindi bibiri byo kubikamo ibikoresho n'ibindi, ikaba yishyurwa ibihumbi mirongo itatu na bitanu ku kwezi.

Ni inzu nziza yubatse i Remera icyumba kimwe cy'uburuhukiro n'icy'ubwogero bikaba byegereye igikoni kigezweho, igikoni giteye imirangi kirimo parafo nziza, amakaro hasi, n'utubati twiza two kubikamo ibintu.

Iyi ni inzu ya etaje, igeretse kabiri ubona ko ituranye n'ayandi ma etaje, ikaba ifite igipangu cy'umweru, urugi rwacyo akaba ari umutuku, ikindi kandi ikaba iri ahantu ku muhanda w'ibitaka.

Ni inzu iri kigali m'u Rwanda yishyurwa amadolari magana abiri, igeretse kabiri ifite parikingi hejuru, ifite utwuma turinda abantu kugwa ikaba ishashe n'amapave ku mbuga.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ni inzu iteye irangi ry'umweru, icururizwamo imitako myinshi itandukanye y'amoko yose, hakaba hari imitako yegetse ku gikuta, n'iyindi myinshi iri ku meza.

Ni isoko rigezweho, rikorera mu nzu nziza iteye irangi ry'umweru ifite parafo n'amatara ari kwaka, ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, harimo abantu benshi abagurisha n'abagura.

Ni mu isoko ricururizamo imbere mu nzu, hejuru hari parafo, amatara ari kwaka, bacuruza imyenda myinshi, amakote n'amashati, n'ibindi bitandukanye, harimo abacuruzi n'abagura.

Ni mu isoko ricuruza imyenda myinshi kandi itandukanye, mu rwego rwo kwirinda akajagari kayo no kuyibura barayizinga bakayishyira ku kabati, hakaba iyo bambika ibibumbano bakabyegeka ku gikuta.

Ni isoko ricuruza ibintu byinshi cyane cyane ibikozwe mu ruhu, nk'imikandara iy'abagore n'iy'abagabo, amasakoshi, inkweto n'ibindi bintu byinshi.

Ndahabona icyumba cy'amakaro babikamo ibyo guteka nk'amakaroni n'amavuta, bikaba biri mu kabati, ibumoso bw'ako kabati hakaba hateretse imashini ya desiketopu, hirya yako hakaba hari intebe ya sheze.

Ni isoko ricuruza imitako myinshi ya gakondo kandi itandukanye, hakaba harimo umugabo munini wambaye ishati y'umweru ubona ko yaje kugura, akaba ari kwerekana umutako ashaka ko bamuha.

Mu rwego leta yashyizeho rwo gukusanya abaturage ku munsi umwe runaka bakabashishikariza ibyiza byo kwizigamira ejo hazaza kugira ngo uzagire amasaziro meza.

Ni umugabo wicaye imbere y'ameza arambuyeho igitambaro, akaba arambitseho n'ibyangombwa byinshi ndetse n'igitabo ari kurebamo, imbere ye kandi hari umudamu waje kumwaka serivisi.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Ni abagore bane bari kwifotoza bishimye, babiri muri bo bafite impapuro n'amakaramu, umwe muri bo ateruye akana gato k'agakobwa afite ikaramu n'agapapuro gatoya mu ntoki, ukuze muri bo afite imiti, ahagana hasi hari sima, inyuma yabo hari inzu y'amatafari ahiye n'inzugi ziteye irangi ry'umweru.

Mituweri ubwisungane mu kwivuza byanditse mu ibara by'umweru, hakaba ibara ry'ubururu n'iry'icyatsi, hejuru hari ikirango cya RSSB, RSSB ni ikigo cyagenewe kugenzura imibereho myiza y'abaturage.

Ni umugabo uri mu nzu mo imbere, inzugi zirafunguye, yambaye itaburiya y'umweru, ukuboko kumwe gufite igipapuro kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, cy'ikigo gishinzwe imibereho myiza y'abaturage, ukundi kukaba gufashe ku meza.

Ni mu isoko hasi ni amakaro hejuru ni purafo, harimo ububati bwagenewe kubikwamo ibicuruzwa hakurikijwe ubwoko bwabyo, hagati kandi harimo akagare kabugenewe, ubipakiramo nk'iyo uje guhaha.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Ubuyobozi bwa leta y'u Rwanda buhora bushishikariza abaturage bayo kuva mu megeka kuko ibi bintu bishyira ubuzima bwabo mu kaga, nyamuneka muhanahane aya makuru aba bantu bave mu manegeka.

Ni uburyo bugezweho bwo gucururiza mu nzu bitabaye ngombwa ko umugurisha ahahagarara, ni inzu yubakishije amakaro hasi, parafo na kamera hejuru, irimo akabati karimo ibintu byo kunywa bitandukanye: amaji, amafanta, amata n'ibindi.

Mu rwego rwo kwirinda akajagari k'ibicuruzwa mu isoko harimo ububati bupangwamo buri bintu uko bikurikirana hakaba harimo n'umugabo waje guhaha abitwaye mu kagare kabugenewe.

Ni mu isoko hasi hasashe amakaro hejuru harimo parafo, harimo utubati tubikwamo ibicuruzwa ku mpande zombi, harimo kandi n'umuntu uri kugenda ahaha ashyira mu kagare kabugenewe.

Ni isoko ryiza hasi risashe amakaro hejuru hari parafo, mu rwego rwo kwirinda inyanyagira ry'ibicuruzwa bubatse akayetajeri ko mu biti ku buryo usanga buri gicuruzwa gipanze mu mwanya wacyo.

Ni mu isoko hasi hashashishije amakaro hejuru harimo amatara meza, ku nkingi kandi haba hubakiyeho ububati bukoze mu byuma bwagenewe gushyirwamo ibicuruzwa hakurikijwe ubwoko bwabyo.

Ni mu isoko mo imbere hasi ni sima, hejuru'a hubatse bitangaje, mu buryo bwo kwirinda akajagari ko kubika ibintu, hagiye harimo ububati ku mpande zombi burambuye, bubikwaho ibintu, bakurikije ubwoko bwabyo.

Aha ni mu isoko ariko rya soko rikorera mu nzu, hakaba harimo ibintu byinshi bitandukanye ibyo kurya, ibyo kunywa, hagati y'ibyo bintu biri mu tubati hakaba harimo akagare babitwaramo.